Iguriro ry'imitako, ibikapu, imyenda, ndetse n'ibindi bitandukanye bikenerwa n'abantu buri munsi, aho bicururizwa bakira abaje kubigura kugira ngo babikoreshe babyambare cyangwa babikoreshe.

Urupapuro rwa Rwanda reveni rugaragazako umuntu yishyuye imisoro, ayo yishyuye, niba yari arimo amande nayo, amande agaragara, nimero yiwe y'ubucuruzi yiyandikishijeho ndetse n'aho akorera ndetse n'icyo akora, murakoze.

Inote y'amafaranga igihumbi y'igihugu cya Tanzaniya, iriho ibirango bya Tanzaniya, hariho banki ya Tanzaniya ndetse n'ibindi birango bigaragaraho, byererekana amafaranga ya Tanzaniya, iyo note imeze neza, ni igihumbi cy'amafaranga y'amashilingi.

Imbere y'ahacururizwa ibintu bitandukanye harimo n'ama servite y'itumanaho ya banki imodoka zihaparitse mu kajagari bigaragara ko nu muntu atabona aho aca ngo yinjiremo ajye kugira icyo ahaha baparitse ku buryo butajyanye n'igihe uburyo butubahirije amabwiriza ndetse zishobora no kugongana mu gihe umwe yaba ashatse kuvamo uyu wo kuruhande.

Inzu y'ubucuruzi cyangwa se isoko ririmo abantu, bari guhaha abacuruzi n'abandi batandukanye, rimeze nk'aho ari isoko risanzwe abantu bahahiramo, murakoze.

Isoko rijyanye n'igihe ushobora gusangamo ibintu byose bitandukanye, imyenda, inkweto ndetse n'imboga, bigaragara ko iri soko ari ryiza cyane, ririmo ibintu byinshi bitandukanye, ridufitiye akamaro kuko niho abantu bose babasha kugurira ibikwiye bakeneye kandi byiza bijyanye n'igihe.

Iguriro, isoko rya kijyambere ririmo ibyo kurya bitandukanye, biba bifunze mu mashashi, ibifunze ku biro, abantu aho baza guhahira bakagenda bishimye kandi buri muntu akabasha kwitoranyiriza, akagera aho yishyurira arangije gutoranya ibyo yari akeneye, murakoze.